Umugabo wambaye agapfukamunwa ikote ry'umukara ririmo akabara k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ahetse ipombo arimo kugenda atera umuti mu gihingwa cy'umuceri.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru n'ipantaro y'umukara n'agapfukamunwa, akaba afite ibintu by'impapuro mu ntoki, iruhande rwe hari uwundi wambaye agapfukamunwa ahetse ipombo, yambaye n'ikote ry'ubururu ari gutera umuti.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku n'isengeri y'umutuku n'ikabutura, akaba ahetse ipombo arimo avomerera intoryi, inyuma ye hicaye akana, iruhande rwabo hari injerekani, hirya gato harimo insina imwe ndetse n'urugo.

Umugore wicaye mu iduka wambaye igitambaro k'icyatsi n'ikanzu y'umukara, akaba yicaye mu bicuruzwa byinshi byiganjemo amavuta, imbere ku meza hakaba hari akavido ndetse n'indobo ebyiri.

Umugabo wambaye imyenda imupfutse hose harimo ingofero y'umweru, agapfukamunwa k'umukara ndetse n'isubeti y'umweru yambaye na ga mu ntoki, akaba ahetse ipombo arimo aratera umuti mu myaka.

Umugabo wambaye umupira w'umweru utagaragara igice cyo hepfo, akaba ari kwerekana amafi yabashije kuroba, hirya ye hakaba hari ishyamba ryinshi rimukikije.

Ikinogo kinini kirimo amazi wagira ngo baroberamo amafi ariko akaba yanduje. Inyuma yaho hari urubingo rwinshi n'imiseke ikikijwe n'ibiti by'ishyamba birebire cyane.

Umugabo wambaye umupira w'isengeri afite akantu karimo amafi menshi ndetse n'indobane y'ubururu, inyuma ye hakaba hari amazi menshi bigaragara ko ari ho yarobye ayo mafi.

Abagabo batanu bari ahantu ku kidendezi kinini cy'amazi, bakaba bafite indobani ndetse n'inshundura bagiye kuroba, umwe ari mu mazi undi aramwegereye na we kugira ngo amufashe.

Amafi abiri ari ahantu, akaba ariho ibintu by'umweru ku maso yayo. Ndetse no ku mubiri ahagana hepfo, hakaba hariho ibindi bintu by'umweru.

Umugore uteze igitambaro wambaye umupira w'amaboko magufi w'umutuku, akaba afite igitebo arimo arasaruriramo icyayi, aho ari arikureba mu cyerekezo cy'aho ari gusoroma.

Ingemwe z'imbuto zihumbitse mu mashashi menshi agiye atandukanye, izo ngemwe zikaba zarakozeze zigejeje igihe cyo guterwa. Murizo ngemwe kandi harimo ibiti bimwe na bimwe bigiye bikoze cyane byazisumbye.

Imirima y'umuceri irimo amazi menshi, hirya hakaba hari abantu umwe yicaye undi ahagaze yambaye ingofero y'umweru, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, bari guca mu nzira.

Igihingwa k'ikawa kikaba gifite imbuto nyinshi harimo izeze neza zatukuye n'izindi zitarera neza zigisa umuhondo, hakaba harimo n'izigisa icyatsi zikiri mbisi cyane, zose zikaba ziri ku biti bifite n'amababi.

Abantu batatu bari mu murima w'umuceri, umwe w'umugore wambaye igitambaro mu mutwe n'umupira w'umukara, afite na nyanjoro ari gusoroma umuceri, inyuma ye hari abandi babiri.

Umugore wambaye igitenge mu mutwe cy'umutuku ndetse n'imyenda y'umutuku, akaba arimo arasoroma igihingwa cya kawa yishimye, zikaba zirimo amoko anyuranye izitukuye cyane, iz'umuhondo n'izikiri icyatsi.

Igihingwa cya kawa gifite imbuto zitukuye cyane, zikaba ziri ku mababi y'umweru, hakaba harimo ibabi rimwe rifite amabara abiri kubera igihande kimwe cyahishije ikindi kitarahisha.

Ahantu hari ibihingwa biteye ku murongo cyane, birimo ibimeze nk'ikawa, bikaba mo hagati hagiye harimo inzira umuntu ashobora kunyuramo, ariko inyuma yaho hari ibindi bicucitse cyane.

Abagore babiri bari mu murima w'icyayi bakaba bambaye ibitambaro n'imyenda yo kwifubika bakaba bafite n'ibitebo barimo barasoroma baganira baseka kandi hirya yabo hari n'ibindi biti by'amashyamba.

Abantu benshi b'abagore bateze ibitambaro bambaye n'iyenda y'amabara agiye atandukanye, bakaba bari mu murima w'umuceri bari kugerageza gusarura, buri wese akaba afite uwe mu ntoki.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, ikote ry'umukara, ishati ijya kuba umukara n'ipantaro y'ikoboyi, akaba ahetse agakapu mu mugongo ari kugenda aca ahantu hari igihingwa k'icyayi.

Imiti y'amatungo ndabona ari imiti itandukanye. Hari iyanditseho milking save, harimo n'ibindi ntari kureba neza.

Amacupa apfundikiye, agiye agerekeranyije, afite imipfundikizo y'umweru, bigaragara yuko ibamo imiti y'inkoko. Hirya gato hari ayandi makarito adapfunduye.

Utuvido dusa umweru tugerekeranyije turiho ibishushanyo by'amatungo arimo inka, ihene ndetse n'intama, hakaba hariho ibara inyuma risa nk'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Igikombe kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara cyandikije mu magambo y'umuhondo, kikaba gipfundikishije umupfundikizo w'umweru kandi ukomeje.

Amakarito menshi agiye agerekeranyije ari mu mabara atandukanye ay'umweru, ay'ubururu, hakaba handitsemo n'amagambo menshi agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara.

Akabati karimo uducupa twinshi tw'umweru harimo kamwe gapfundikishije umufuniko w'icyatsi, inyuma y'aho hakaba hari akantu kameze nk'agakarito kari mu ibara ry'umutuku.

Umusore uri gukama inka, akaba afite ictsi cy'icyuma, ari gukama inka iri mu mabara y'umweru n'umukara. Hirya hari uruzitiro ndetse n'aho ari gukamira hari ibyatsi.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge uri kumwe n'undi mugore ukenyeye igitenge wambaye n'igitambaro bakaba bari kugenda mu nzira irimo ibyatsi, hirya gato hari igiti ndetse n'ibindi bihuru.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu, akaba ari mu murima urimo ibigori byiza bigeze gihe cyo guheka, hirya y'iyo mirima hakaba hari amashyamba n'ibindi biti byinshi.

Abagabo babiri barimo barasunika igare umwe akaba yambaye isengeri y'umweru, ipantaro y'umukara undi akaba yambaye ishati n'ipantaro y'umukara bakaba bari kuzisunika imizigo y'umweru hirya hakaba hari ibyatsi n'ibiti.

Inka ebyiri zifite amahembe manini zikaba zihagaze zireba, inyuma yazo zakaba hari ibyatsi byinshi n'ibihuru, hirya gato hakaba hari uruzitiro rw'ibiti.

Abagabo benshi harimo umwe wambaye ingofero y'umukara, isaha, umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, ufite isuka mu ntoki, bakaba bameze nk'abari mu muganda. Hirya ye hari inzego z'umutekano.

Umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe, akaba yambaye n'agapira kajya gusa ubururu, afite ingemwe ebyiri z'ibiti mu ntoki, iburyo ndetse n'ibumoso. Inyuma ye hari ibiti byinshi ndetse n'abantu benshi.

Abantu benshi bari mu murima, harimo umudaso n'umugabo wambaye, ingofero umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara, afite isuka mu ntoki, iruhande rwe hari abandi bunamye bari gukora imirimo y'ubuhinzi.

Umwana w'umusore wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'umweru akaba afashe ku biti by'ibiraro birimo inka zisa umukara n'umweru zirimo zirarya ubwatsi.

Umuntu wambaye igitambaro ndetse n'umupira ari mu gishanga cy'umuceri arikubagara, akaba ahantu ari harimo n'amazi yakoresha yifashishije intoki.

Igihingwa cy'imbuto y'urusenda kikaba gifite imbuto zeze cyane zahishije, zifashe ku mababi y'ubururu. Hasi bigaragara yuko hari ibyatsi byumye kubera ko bazisasira.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye nk'urugero harimo sipure ndetse n'igiti cy'ummbati kidasa neza bigaragara yuko cyabembye. Hirya gato hari ikindi giti kinini cy'umwembe.

Ahantu hari ibyatsi byinshi hari umuntu ugaragara ikirenge cyonyine cyambaye inkweto z'umukara, hakaba hari igiti kinini cy'umwumbati gitoshye cyari gifite amababi manini.

Ahantu hari itaka ryumye hari n'ibindi byatsi byumye cyane ariko hakaba harimo igihingwa kimwe gifite amababi atoshye y'icyatsi, iruhande rwacyo hakaba hari uruteja.

Ahantu h'umurambi harambitse hateye ibyatsi bimeze nk'imyaka y'amoko menshi, hirya gato hari ikintu kimeze nk'inzu ya shitingi wagira ngo ni ho bahumekera ingemwe, hirya gato hari ibimera byinshi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru yayizinze ndetse n'ipantaro y'umukara akaba afite umuhoro mu ntoki, ari mu murima urimo ibyatsi byumye ndetse n'ibindi bibisi, hirya hari insina z'urutoki zishanguruye.

Igihingwa kimeze nk'igishyimbo kikiri gitoya giteye ahantu, hari itaka ry'urubuye kikaba gisa neza gifite n'umumaro mwiza ariko hakaba harimo n'ikindi gihingwa kigenda kirandaranda hasi.

Umurima wagenewe guhinga ukaba urimo amabuye menshi ndetse n'ibyatsi, hirya hari imyumbati isa neza ifite amababi atoshye kandi iyo urebye hakurya hari n'ibindi biti.

Imashini ihinga, iri mu gishanga ahantu hagati mu mazi, umugabo uyitwaye yambaye agapira karimo uburongo butambitse bw'ubururu n'umweru, n'ingofero y'umutuku. Imashini imeze nk'iyasaye mu isayo.

Inzira y'igitaka iri kunyura ahantu hameze nko mu gishanga, iruhande rw'iyo nzira hakaba hari ibyatsi hirya no hakuno, hepfo gato hakaba hari imirima bahingamo umuceri.

Ibiti byinshi by'ishyamba biteye ahantu harambitse, bikaba bikuze neza kandi hakaba harimo ibintu bimeze nk'amabara y'umuhondo n'ahandi h'icyatsi, imbere gato hakaba hari ibyatsi byumye.

Ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse n'amashyamba agiye atandukanye, hakaba hagizwe n'udusozi duto duto twinshi. Iruhande gato hakaba hari igihingwa cy'inganzamarumbu.

Ahantu hari umusozi ugizwe n'ishyamba ryinshi, haterera cyane. Hepfo yaho hakaba hari inzu isakaje amabati, ku mpande hariho uruzitiro rw'imiyenzi ndetse munsi wagira ngo hari amazi.

Ahantu hari ishyamba ryinshi n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye harimo ibiti birebire ndetse n'ibindi bijya kuba bigufi, hirya yaho kure hakaba hari ikidendezi cy'amazi atemba.

Umugabo uri gukorera ibiti ari kumwe n'undi wambaye imyenda y'imikara, uwo uri gukorera ibiti yambaye ingofero, yambaye isaha, na bote ndetse n'ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru.

Ibiti byinshi bigiye binyuranye bikikijwe n'umugezi, hanyuma hakaba harimo za nyiratoro nyinshi. Hino gato hari ibindi biti bifite amababi magufiya bimeze nk'indabyo.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru. Iruhande rwaho hakikijeho ibyuma bisize irangi ry'icyatsi, hirya gato hakaba hari ibiti byinshi by'ishyamba, ndetse n'ibyatsi.

Ishyamba ryinshi cyane ry'inzitane, hatagaragaramo inzira ubabona ko rigizwe n'ibiti byinshi bitandukanye, inyuma yaryo hari ibicu by'umweru bibuditse cyane kandi n'iruhande rwaho hari irindi shyamba.

Abantu b'inzego z'umutekano bari mu ishyamba bafite inkoni, undi w'umudaso wambaye imyenda yabo, bakaba bari ahantu hari ibiti byinshi.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti byinshi byakuze, hino gato hakaba hari ibindi bihuru bigiye bitandukanye, iyo urebye muri iryo shyamba nta byatsi birimo byamezemo.

Ahantu hari amazi yo mu gishanga hakaba hari n'ibiti byumye, hirya gato hari ibyatsi byinshi n'ibindi biti bitoshye nk'ibyegereye amazi, ariko inyuma hagiye hari n'itaka.

Umugabo uri gupakira inyanya mu mifuka, amaze gupakira imifuka itandatu yambaye ishati irimo uturango tw'umweru yakuye amaboko mu mifuka arimo gukoresha igitebo apakira mu mifuka.

Imbuto z'avoka zisa icyatsi zikaba ziri mu ikarito y'ubururu ijya gusa na kaki, hirya hari ayandi makarito ndetse n'ibindi bintu bifite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Imboga zitandukanye harimo karoti, amashu, betarave na shufureri n'agapapuro kanditseho igiciro, hirya yaho hari aho zibikwa hakoreshejwe ibara ry'ubururu.

Umwana w'umusore wambaye umupira w'umukara n'ikabutura, akaba afite rozwari ebyiri mu ntoki zisa icyatsi zifite imipfundikizo y'umukara, urimo uravomerera igihingwa cya karoti.

Abagabo babiri bambaye ingofero z'umweru, ibisurubeti by'ubururu na bote z'umukara, bakaba bombi bahetse ipombo mu mugongo zisa umweru bari gutera umuti mubigori.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho mu kuvomerera imyaka aho ibitembo bica mu butaka bizamura amazi maze bikavomerera imyaka iri mu murima kandi ikaba isa neza.

Umugore uteze igitambaro, ukennyeye n'ikindi, akaba afite indobo irimo amazi, arimo aravomerera amashu. Hirya y'ayo mashu hari inzira kandi igera ahantu hari ibyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku utagaragara neza mu maso, wambaye n'ipantaro, akaba afite rozwari ijya gusa umukara ari kuvomerera. Hirya ye hari abandi bantu barimo umusaza wambaye ingofero.

Umugabo wambaye umupira wa lakositi w'umukara n'ipantaro y'umukara yahinnye amaguru n'inkweto zifunguye, akaba afite igitembo mu ntoki ari kuvomerera mu muririma bahinze vuba, hirya ye hari urutoki.

Umugabo wambaye ingofero n'ishati ihinnye amaboko n'ipantaro y'umukara, akaba afite umupira utwara amazi ari kugenda avomerera imyaka ye iri mu murima. Inyuma ye hari ibiti.

Umugabo wambaye umupira w'ikote ndetse n'ikabutura, akaba afite indabo ebyiri, imwe y'icyatsi, indi y'ubururu, arimo aravomerera imbuto z'amasha.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, wambaye agashati k'umutuku n'igitenge, akaba afite umupira ari kuvomerera imyaka. Hirya gato hakaba hari urutoki rwinshi, rukikije ahantu ari kuvomerera.

Umugore wambaye igitambaro n'umupira, akaba afite indobo, arimo amena amazi ku mboga, hirya ye hakaba hari urutoki, ipera ndetse n'inyuma ye hakaba hari n'ibindi byatsi.

Umugabo wambaye umupira wa rakosite ndetse na ga mu ntoki, akaba ahetse ipombo ifite umugozi w'umukara, ari kugenda atera umuti mu myaka y'ibigori, hirya ye hakaba hari ibindi bigori byinshi.

Uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga mu kuvomerera imyaka bwifashisha imigozi igenda itembera mu butaka ya robine y'imipira, hanyuma ikazagenda izamura amazi mu mirima kandi haragaragara hirya ibigori ndetse n'ibiti.

Umugabo wambaye ingofero, ishati n'ikabutura, akaba afite rozwari ebyiri mu ntoki zirimo kugenda zimena amazi avomerera imbuto ziri ahantu mu murima.

Ahantu hari imisozi myinshi igaragara iteyeho ibiti bigiye bitandukanye, hakaba hari n'inzu itagaragara neza isakaje amabati, hakurya hari iyindi misozi ndetse n'ibicu.

Ishyamba ryinshi ririmo n'imirima abantu bahingamo, imbere y'aho hakaba hari amazu agiye atandukanye, harimo ashakaje amabati n'andi ashakaje amategura ariko adasize umucanga.

Umuntu wicaye ufite injerekani uri kuvoma, hirya ye hakaba hari izindi njerekani eshatu, inyuma ye hakaba hari amagare abiri, hakurya hari ahantu bahinga icyayi.

Ahantu hari imisozi igiye ihanamye harimo utuyira twinshi hakaba hateyeho ibyatsi biteye ku murongo nk'aho ari igihingwa cy'icyayi, hakurya haragaragara utuzu twinshi.

Ahantu hari imisozi myinshi igiye itandukanye ikaba irimo ibiti bigiye binyuranye ibirebire ndetse n'ibitoya, hakurya hakaba hagaragara ibicu by'umweru.

Ahantu hari imisozi ariko idahanamye cyane ikaba iteyeho ibiti byinshi, hakurya izuba ryarashe bituma ibyatsi bihateye bigira ibara rijya gusa umuhondo.

Inzu nyinshi zegeranye zifite amabati ashaje, zikaba zirimo iziteye imicanga izindi nta micanga ziteye, hirya yazo hari ibiti byinshi bigiye binyuranye ndetse n'imyaka.

Ahantu hari imisozi myinshi igiye inyuranye, hakaba harimo ibiti, ibirebire ndetse n'ibigufi, hino gato hakaba hari ahantu hahinze, hari uruzitiro rw'ibiti bigiye bisobekeranyije.

Ahantu h'igishanga kirimo imigezi umwe w'umweru ugenda utemba, ku ruhande harimo ibihingwa bijya gusa umuhondo, hirya no hakuno hari ishyamba n'imisozi.

Inka z'inyankore ziri mu kiraro, hirya yazo hari ifamu irimo ibiti bitandukanye, umuntu ari gukamera izo nka, ndi kubona harimo abaveterineri, ndi kubona ikiraro cyubakishije ibiti, inka zifite amahembe maremare, zambaye amaherena.

Inzu irimo ikiraro gifite amabara y'icyatsi, imbere y'aho hakaba hari ibyuma bijya gusa umweru ndetse n'inyuma y'aho ibyo byuma bikaba bihari, hirya hakaba hari igikuta kiriho ibara rirya gusa umweru.

Ibiti byumye imbere yabyo hakaba harimo inka ebyiri, imwe isa umukara ndetse n'umweru, indi ikaba isa umweru ndetse n'ikivurivundi. Zikaba ziri ahantu hari ibyatsi byinshi.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku, ishati ipantaro n'inkweto zifunze, akaba afite igicuba ari imbere y'inka y'umukara n'umweru amaze gukama amata, hirya yaho hari undi mugabo wunamye ari gukama inka.

Abantu bari gukora umushinga w'inkwavu, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'inkwavu zikaba zisa umweru, harimo umwe wambaye isarubeti y'umukara uri kubasobanurira uko inkwavu zibaho.

Inzu y'inkwavu isakaje za senyenge mo imbere hakaba harimo amatungo y'inkwavu asa umweru, hirya gato hakaba hari andi mazu ariko yo atarimo amatungo.

Inka nyinshi ziragiye ahantu mu ifamu hakaba harimo izifite amabara y'umweru n'umukara, inyuma yazo hakaba hari ibiti byinshi bigiye binyuranye, hakaba hagaragara n'ibicu.

Itungo ry'ingurube, risa nk'urutobo ikaba ifite amaherena y'icyatsi mu matwi yayo. Ikaba iri ahantu hari ibintu bimeze nk'ibarizo, hirya gato ku gikuta hakaba hariho sima y'umukara.

Imbata ziri imbere y'ikiraro. Muri icyo kiraro, harimo inka ifite amabara y'umweru n'ayumukara. Imbata nazo harimo iz'umweru, n'izumukara.

Inzu y'ibati isakaje amabati ifite n'ibyuma ku mpande, hakaba harimo inzira ihita igenda, ku mpande hakaba hari ibintu by'ibiti, hakurya na ho hakaba hari ishyamba.

Ihene nyinshi zirimo zirarisha hari abantu benshi wagira ngo baraziragiye hirya y'izo hene aho ziri hari ibiti byinshi birebire, izo hene harimo iz'amabara y'umweru, isine, za musheru.

Ihene nyinshi zifite amaherena ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ikivurivundi, zikaba ziri ahantu hari igisenge cy'amabati ndetse n'uruzitiro rwa senyege bigaragara ko ariho ziba.

Umuntu utagaragara neza ugaragara ikiganza wambaye ishati, akaba ari gukoza ikiganza mu kantu kameze nk'agapaniye karimo udushwi tw'inkoko, hirya gato hakaba hari akandi gapaniye karimo ubusa.

Inka nyinshi ziri mu ruzitiro, hakaba hari n'abantu bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye amataburiya y'ubururu, bakaba bazegereye bagiye kuzitera imiti.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'amabara, akaba ahagaze imbere y'ibiraro by'inka nyinshi, biri ahantu hasakajwe amabati.

Akantu kameze nk'agasahani gafite ibara ry'umweru, hakaba hariho ibishyimbo bifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ako gasahani kakaba gateretse ku meza y'igiti.

Ibinyampeke byinshi bitandukanye birimo ibishyimbo, amageri ndetse n'imbuto zigiye zinyuranye, harimo nk'imbuto z'imyungu, birambitse ahantu hamwe biri mu mabara agiye anyuranye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kimeze nk'isaha, kikaba gisa umukara cyandikishijeho amagambo y'umweru mo imbere hakaba harimo amagambo menshi agiye atandukanye.

Ahantu harambaraye, hanitse ibintu bimeze nk'imbuto, inyuma yaho gato hakaba hari inzu ifite igisenge cy'amabati, hirya hakaba hari imirima y'urutoki.

Abantu batatu b'abaganga bambaye ingofero z'ubururu, harimo umwe w'umugabo ufite akantu k'umutuku mu ijosi, yambaye n'ishati y'umweru, akaba afite urupapuro mu ntoki.

Umugabo wambaye isurubeti y'ubururu n'agapfukamunwa na ga mu ntoki n'ishati y'umutuku n'umukara mo imbere, akaba afite urushinge ari gukurura umuti mu gapipa kugira ngo atere amatungo.

Abasore babiri bafite imisatsi y'umukara umwe akaba ari kureba muri telefoni hari ahantu hari ibikoresho byo kwa muganga undi akaba afashe urusinga yarushyize mu gutwi.

Abantu bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, umwe akaba yambaye agapira k'amaboko n'ipantaro y'amaboko magufi n'inkweto, afite imbwa mu ntoki iziritse ikiziriko.

Inyubako ifite ibyuma by'umutuku ndetse isakaje n'amabati, ikaba ifite n'urugi rw'umutuku, mo imbere hakaba harimo imifuka myinshi, ipakiyemo ibintu bimeze nk'imyaka kandi bikaba bigerekeranyije.

Abasore babiri bari mu muryango, umwe yambaye umupira w'igitare, n'inkweto za bodaboda z'umuhondo, undi ari kuvura imbwa, yambaye umupira w'umukara, n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto.

Abantu benshi barimo abambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'umwe wambaye ingofero y'umweru, bakaba bari ahantu baterera inka imiti. Harimo kandi umugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite umusatsi w'umukara wambaye na ga mu ntoki akaba ari imbere yakabati, n'ahantu basukira amazi mu nzu irimo amakaro.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara, wambaye ishati y'umweru na ga mu ntoki, ari mu kiraro cyinka, ari kugerageza gutera iyo nka imimiti kandi bakaba bayihambiriye.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bambaye udupfukamunwa, ingofero n'imyenda y'abaganga bakaba bari gupima inyamaswa bayicometseho insinga bari kuyibaga.

Umugabo uri gukora mu nda y'inka, akaba yambaye ingofero ndetse n'igisurubeti ndetse na bote, ibiti bikikije ahantu inka bayifatiye.

Inyamaswa ebyiri z'inkazi imwe y'intare, ikaba iri kumwe n'iyindi ntoya, ikaba iryamye kandi bigaragara yuko biri gukina, inyuma yaho hari ibyatsi byinshi bizikikije.

Inyamaswa ziri ku murongo eshatu, zifite ibinwa birebire ndetse n'amahembe y'umweru, zikaba ziri kugenda ahantu mu ishyamba hari ibyatsi byumye.

Inyamaswa nyinshi ziri muri parike izifite amabara y'umukara ndetse n'umweru n'izindi zifite amahembe, zikaba ziri ahantu hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi bigiye bitandukanye.

Inyamaswa y'inkazi, ikaba iri ku giti cyumye, ifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'ikivurivundi. Irarebana umujinya nkaho ifite ikintu yategereje.

Inyamaswa nini zigera muri eshanu ziri mu mazi, zitemberamo iruhande rwazo hakaba hari ibitare, hirya gato hakaba hari ibiti byinshi by'ibihuru by'ishyamba by'amoko agiye atandukanye.

Parike irimo inyamaswa nyinshi z'amoko atandukanye zikaba ziri ahantu hari ibyatsi byumye, hirya gato hari imodoka nyinshi z'umweru ndetse n'iy'umuhondo zihaparitse zaje kureba izo nyamaswa, iruhande rw'aho hari ibiti.

Inyamaswa ebyiri zizwi ku izina ry'ibitera, zikaba ziri ahantu mu bihuru, hari utwatsi tuzegereye. Inyuma yazo ariko hakaba hari n'ibindi byatsi byinshi.

Inyamaswa zo mu ishyamba harimo imwe isa n'ihene n'iyindi iryamye itagaragara neza, zikaba ziryamye ahantu hari ubutayu, imwe imeze nk'itabazariza indi ifite ikibazo.

Inyamaswa nyinshi zirimo zirarisha, inyinshi wagira ngo ni inka, inyuma yazo hakaba hari ishyamba ryinshi n'imbere yaho hakaba hari ahantu ziri kurisha.